Abana bacu biga ahantu heza hasobanutse hari ibikoresho bijyanye n'ibyo biga urugero nk' amalaboratwari ya shim, amalaboratwari ya fizike, amalaboratwari menshi atandukanye. Ni byizako abana bacu babona ibikoresho byose.

Nta misoro nta mahoro, amahoro yahungabana kuko ntabwo twabona amashuri meza abana bacu bakwigiramo, ntabwo twabona amavuriro nta n'ubwo twabona amabanki, wasanga igihugu cyarageze kure.

Abakozi ku muririmo ni bo bemerwa. Abanyeshuri bishimiye gukora iki gikorwa mwarimu yabategetse. Ni byiza ko dushimira abakoze cyane kugira ngo n'abandi bagire umuhati wo gukora nk'abandi.

Kora wigire munyeshuri, kora wigire muturarwanda, twihangire imirimo zizadufasha kwiteza imbere. Ni byiza ko urubyiruko rwacu rwiga n'ibikorwa byiterambere, bikiga n'uburyo bwo kwihangira imirimo.

Nibyiza ko urubyiruko, rw'u Rwanda rwiga imyuga, kugira ngo ruzaje rwihangira imirimo, rutazajya rubura akazi, rwihangire imirimo rwiteze imbere, maze bishakire amafaranga.

Urubyiruko rw'u Rwanda rurateganya iki? Rurateganya gukora, rukiga ibizajyana no kwihangira imirimo, kuko urubyiruko rufite imbaraga, bityo ruzabasha kwihangira imirimo rubeho neza.

igihe covidi cumi n'icyenda yari yarateye wasangaga abantu bakoresha udupfukamunwa, ariko kandi udupfukamunwa twagiye turinda benshi. Ni byiza kumvira amategeko y'abajyanama b'ubuzima.

Amakanzu meza, turagenda mu badozi bakadupima, noneho bakadodesha icyarahane, icyarahane bakakitudodeshereza neza ku bipimo byacu, tukambara tukaberwa. Ni byiza gukoresha icyarahani.

Abana bige baminuze, abatarashoboye gukomeza muri za kaminuza bige imyuga, kugira ngo na bo baziteze imbere, dore ko imyuga ituma abana bacu bahanga imirimo ugasanga bitejeje imbere, bibarinze gusabiriza.

Urubyiruko rw'u Rwanda rurateganyaki ruzamenya gusoma, u Rwanda rw'ejo ruzafata ikaramu, u Rwanda rw'ejo ruziteza imbere, ndetse ruziga n'imyuga kugira ngo ruzabashe guhangana n'ejo hejo hazaza.

Urubyiruko rw' u Rwanda ruteganya iki rurateganya kuzajya rwiteza imbere, ni byiza ko rukura amaboko mu mufuka rugakora bityo bizatuma rwiteza imbere, ndetse ruteze imbere n'igihugu cyabo muri rusange.

U Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo abishyize hamwe ntakibananira, mureke tugire ubumwe nk'uko umuco w'u Rwanda ubitubwira dushyire hamwe tuzagera ku iterambere rirambye.

Urubyiruko rw'u Rwanda bashishikarizwa kwiteza yuwuga ndetse bakanab mu mashuri, ibi bizatuma batabura akazi, ubwo bazihangira imirimo bazaza bazamura abenegihugu cyabo.

Rubyiruko mwiga imyuga muzikomereho, kuko imyuga iyo uyirangijemo wihangira imirimo, ntabwo ujya ubura akazi, nk'uko urubyiruko rumwe bimeze muri iyi minsi.